Abantu benshi bicaye bambaye amarinete bafite n'amakaramu bababazungu bavanzemo n'abanyafurika, amacupa y'amazi n'ameza abari imbere bose.

Aba mama n'abagabo inyuma yabo hariho ibintu byanditse mu rurimi rw'icyongereza bafite ikintu cy'igipapuro yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza inyuma yaho hariho ibara ry'ubururu

Abantu benshi bicaye mu ntebe zegamirwa imbere yaho hariho ameza afite ibara ry'umutuku ubucupa bw'amazi n'amakaramu n'ibitabo imbere yabo bari mu nzu mo imbere.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hariho ameza arambitseho uducupa tw'amazi, mudasobwa n'amatelefone yabo, bameze nk'aho bari mu nama barimo guhuza ibiganiro byabo.

Abantu benshi bicaye ni ahantu muri sare, bose bafite agacupa k'amazi, ibitabo, imbere yabo hariho ameza, ariho ibitambaro by'imyeru n'ibikapu by'abamama.

Aba mama babiri, uwa mbere yifashe ku itama, yiteye imyitero ni umwisiramu, n'agacupa k'amasi kari imbere ya ho wa kabiri nawe, yambaye amarinete n'ikote ry'umukara, ameze nk'arimo kureba hakurya, n'umuntu wicaye mu ntebe z'imikara zegamirwa.

Abantu benshi bicayemo ahantu m'imbere mu inzu, imbere yabo hariho ameza n'ubucupa bw'amazi, hejuru ku meza na za mikoro imbere yaho harimo na za telefone zabo niho zirambitse hakurya urugi rurafunguye.

Abantu benshi bicaye bakoze uruziga bose bicaye ku ntebe zegamirwa, hariho utuntu dupfunyitseho ku ntebe tw'umukara ku meza hariho igitambaro cy'umukara, harambitseho ubucupa bw'amazi na telefone n'amakayi.

Abantu batatu, babiri bambayemo amarinete bicaye ku ntebe zegamirwa, imbere yabo hari ameza n'imashini zibateretse imbere, hagaragara idirishya hanze hagaragarayo igiti.

Abantu benshi bicaye mu ntebe z'imikara imbere hariho ameza bafite impapuro z'imyeru amakaramu barimo kwandika imbere yaboho hariho amacupa y'amazi harimo abambaye amadarubindi bari mu nzu mo imbere.

Abantu benshi bicaye mu byiciro bitandukanye bagenda bazengurutse ku meza bambaye imyenda isa imyeru hejuru bose hariho amarido kumpande kurukuta y'umuhondo imbere mudasobwa ibari imberesa nkaho barimo kurebamo.

Abantu benshi barimo abanyafurika n'abazungu, bicaye ahantu munzu mw'imbere, bose bicaye ku ntebe z'imikara zegamirwa, imbere yabo hari ameza, mudasobwa n'ubucupa bw'amazi.

Abantu benshi bicaye ahantu muri sare, harimo abamama n'abagabo. Abamama biteye ibitambaro mu mutwe w'abisiramu, abapapa b'inyuma bo bambaye imipira y'ubururu n'ubuntu mu gatuza bose. Bari mu nzu mo imbere bicaye ku ntebe za rwegamirwa,..

Abantu benshi bicaye ahantu harimo amakaro hasi imbere yaho hari abafite ameza abandi nt'ameza bafite hariho n'uducupa tw'amazi imbere yabo.

Abagabo n'aba mama n'abakobwa bicaye mu ntebe zegamirwa, imbere hariho ameza, ibikombe, n'amakayi bafite amakaramu n'agacupa karimo ji, harimo sima, televiziyo, n'irange ry'umweru.

Umugabo wicaye wambaye ikote n'ishati afite umusatsi, imbere harihoho ameza arambitseho ubucupa bw'amazi, mikoro, hakurya ku gikuta handitseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi.

Umugabo uhagaze imbere afite mikoro umeze nk'aho ari kubabwira ibintu n'abandi bantu benshi bicayemo imbere mu ntebe, hariho ikintu cy'amatende cyubatseho n'abandi bari inyuma benshi cyane.

Abantu bicaye harimo umugabo ufite agacupa k'amazi imbere ye, wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru na karuvati. Wiyogoshesheje wambaye rinete, arimo kureba imbere ye n'andi macupa menshi ari inyuma.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Abantu benshi bicaye ahantu mu nyubako m'imbere bose barimo kureba imbere, bambaye imyenda isa hejuru harambitseho ameza, imbere yaho harimo agacupa karimo amazi, n'amatelefone arambitse hejuru kuyo meza.

Umwe babiri batatu bane bicaye bose mu ntebe zegamirwa, harimo abambaye amadarubindi n'abatayambaye, imbere yabo hariho ameza harambitseho ubucupa bw'amazi, amakayi n'amalefone yabo.

Abantu benshi bicaye hari imbere yabo umumama umwe uhagaze urimo kubaha ikiganiro, abantu bicaye imbere yabo hariho ameza arambitse afite ibitambaro bitukura, ibikapu n'ikaramu n'amakaye.

Abantu bicaye ahantu mu nzu nini, bafite buri muntu agacupa k'amazi, ameza abari imbere, imberere bameze nk'aho barimo kugenda bose biga ku kibaho kiri imbere harimo purafo mu nzu.

Urwego rushinzwe umutekano w'abaturage n'ibintu byabo yambaye imyenda y'akazi mbere hari abantu benshi harimo ko bimeze nkaho arimo kubwira ibintu bafite byanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu bicaye ku ntebe z'imyeru, imbere yabo bafite agacupa k'amazi, ameza y'imikara harimo amatara hejuru arimo kwaka.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mu imbere bagiye batandukanye mu bitekerezo byabo, harimo abarimo kureba imbere, abarimo kureba muri mudasobwa. Hari ameza arambitseho amaterefone, ikaramu n'ikayi n'isahani iriho ibyo kurya.

Abantu b'abagabo bicaye b'abazungu, harimo n'abanyafurika b'ibikara bambaye amakote y'imyeru, imikara, inyuma yaho hariho ibintu byanditse mu rurimi rw'icyongereza, bisa nk'ibara ry'ubururu.

Urupapuro hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ukwezi ko gushimira abasora, uruhare rw'imisoro mu iterambere akarere ka Burera.

Ahantu harimo utuntu dutambitse tw'umweru, kamwe, bubiri, butatu, bune, butanu, butandatu, burindwi, hakabaho n'irindi bara ry'ubururu, amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi bicaye hasi mu byiciro bigiye bitandukanye, mbere yaho hari umuhanda n'inzu ndende igeretse, n'ibiti biteye, n'indabo zigeze imbere y'ayo mazu, ikirere kirasa ubururu n'umweru bivanze.

Urupapuro rwanditse mu ibara ry'ubururu harimo amagambo y'umweru yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda Irembo serivise nshya ku rubuga Irembo, amazina ya serivise.

Ibara ry'ubururu ririmo amagambo yanditse mururimi rw'ikinyarwanda abanza yanditse mu ibara ry'umuhondo handitse harabura iminsi itanu itariki ntarengwa yo kumenyekanisha bigakomeza.

Ipironi nini cyane riri mu mabara y'umweru n'umutuku n'ubuntu bugiye buzamuyeho bw'umweru, n'ibindi apoto ari hakurya hariya amatsinga n'amashanyarazi hasi harimo amazu mo imbere n'umuntu hasi.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kiburira abawugendamo ko aho bagiye kugera hari umuhanda unyurwamo ubazengurutse.

Urupapuro rw'umweru harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hariho ahantu handitseho h na o na m na e hasi handitseho i na ca na ta na i na n na e na d na u na c na a na ta na i na o na n.

Mu nzu nini irimo akaba harimo ikoranabuhanga ryo gufotora impapuro ziteretse ku meza, hasi harimo sima iri mu ibara ry'umukara n'umweru igihe n'igikuta kiri mu ibara ry'umuhondo.

Urupapuro rwanditseho amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi rwo rurasa umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Mudasobwa irimo kwaka handitsemo ijambo irembo, hasi hariho akantu gatambitse k'umukara harimo n'ahantu wabarizaho ikintu, hariho amagambo yanditse m'ururimi rw'icyongereza menshi cyane urupapuro rurimo gusa ubururu.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, harimo idirishya, ibirahure, n'ibyuma ku mpande kumagambo yanditse y'umukara mu rurimi rw'icyongereza.

Ruriho ibara ry'ubururu harimo akantu gashahishamo kameze nk'itara hariho imbuga nkoranyambaga harimo guhamagara umurongo utishyurwa uriho fesi buke na za tuwita n'amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditsemo rw'icyongereza mu ibara ry'umukara, hasi hariho akandi kantu gasa ubururu, hejuru ku mutwe hari amagambo yanditse mu cyapa: r na u na r na a, rura.

Umunara muremure cyane wa rezo ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru bivanze, imbere y'uwo munara hariho urutsinga rw'umuriro w'amashanyarazi rurimo gucaho. Hasi hariho igiti kirimo kugaragara igice cyo hejuru gusa.

Ahantu hubatse bageneyemo gushyiramo ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi n'amarezo, harazitiye n'ibyuma nta muntu wakwinjiramo imbere, hakurya yaho hari ibiti n'ibyatsi byinshi cyane.

Icyapa gisa mu ibara ry'ubururu, hariho abantu bane bashushanyijeho, bambaye ingofero yanditse harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi barimo bicaye, abunamye, abahagaze, no mu kuri akantu nk'akabati, karimo ibitabo abandi abandi bariho za mudasobwa imbere yaho barimo bameze nk'abantu barimo kugenda bandika mu mashini.

Akantu kari mu ibara ry'umuhondo gakoze mu cyuma handitseho ijambo Irembo kandi inyuma k'umweru, ibara ry'umukara, hasi hariho n'ibindi byapa biri inyuma byanditseho mirongo itandatu.

Abantu bicaye n'undi uri imbere yabo urimo ku meza nk'urimo kubasobanurira, imashini zibateretse imbere n'amacupa yamazi na telefone zicaginze n'ameza abateretse imbere afite ibara ry'umutuku n'intebe bicayeho, bose bari mu nzu mo imbere.

Umugabo umwe uhagaze wambaye ishati y'umweru, ikote ry'umukara, umusatsi, mu maso n'inzobe, yambaye rinete, afite mudasobwa, imbere ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, hasi hari n'imbugankoranyambaga bagenda bakorana.

Urupapuro ruriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu hariho inyuguti nini harimo ra na ra na a.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hariho ameza, bafitemo igiterefone kinini cyane arimo kugenda akoreshamo, mururimi rw'icyongereza bita tabureti.

Umumama umwe wicaye mu ntebe, imbere hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'ikirangantego, inyuma ye, urukuta ruri inyuma rurasa ibara ry'umweru, yambaye hejuru ishati y'umuhondo. Akaba aragaragaza igice hejuru gusa.

Abantu bicaye harimo n'abahagaze, bafite ikintu kibazengurutseho cy'umweru, bacometsemo amatelefonemeze nk'a barimo gucaginga amatelefone yabo, hari n'irambitse hasi idafite umuntu, iyo nzu baririmo yose ifite irangi ry'umweru.

Ndimo ndabonamo abanyeshuri bambaye ishati y'umweru n'inkweto zifunze no hasi bakambara imyenda y'umukara bicaye ku ntebe harimo ameza harimo mudasobwa n'imigozi yo gucaginga izo mudasobwa.

Inziga ebyiri ziri mu ibara ry'umuhondo, rumwe ririmo imbere, urundi ruri inyuma, izindi nziga zirasa umutuku icyatsi n'ubururu bujya kwijima n'idoma, harimo amagambo yanditse mu nyuguti y'icyongereza n'inyuguti za ta.

Icyapa gisa mu ibara ry'ubururu, hariho abantu bane bashushanyijeho, bambaye ingofero yanditse harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umunara wa rezo utambitse, inyuma hariho amazu yubakisha amatafari ahiye asakaje, hakaba hazengurutseho ibyuma ku mpande, mu imbere hakaba harimo n'ibyatsi.

Ikirangantego cy'u Rwanda kiriho, hepfo hariho akantu k'akazu. Harimo ahantu ho kuzuzamo ibintu, amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, hasi harimo ibara ry'umweru byose.

Umuntu ufite imashini imbere ye n'akantu kameze nka telefone n'bintu biri imbere ku meza, bigiye bishushanyijeho afite umusatsi usanzwe udateyemo ibintu ntanubwo usutse. Inyuma ye harasa umweru.

Umukobwa uhagaze imbere y'imodoka imbere hari na telefone yanditsemo amagambo matoya cyane adasomeka, hejuru ye harimo andi yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo irembo kwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rw'icyiciro kisumbuye.

Abantu benshi bambaye udupfukamunwa n'abarimo bambaye amarinete bafite telefone mu ntoki barimo gufotora imbere yabo hari ikaramu bicaye ku ntebe z'imikara.

Mudasobwa irimo amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu mu rurimi rw'icyongereza n'andi magambo yanditse munsi m'ururimi rw'icyongerezaa akarango ka tuwita, fesebuke n'akandi k'imisoro.

Ipironi ndende cyane ya rezo yubakiyeho n'ibyuma bizengurutseho, harimo akazu kubatse mo imbere. Inyuma y'aho harimo ibyatsi bitoya hakurya hari ishyamba ryinshi cyane, hariho n'udupironi dutoya ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Igishushanyo gifite umutwe w'ubururu, wanditse mu rurimi rw'icyongereza n'amagambo ariho, hakabaho umurongo umanutse mu mpande ebyiri n'utambitse hasi, harimo utuntu tw'ubururu tubiri, dutatu, tune, dutanu, twinshi duhuye tuzamutse hariho umutuku, umurongo uzamuye.

Abantu bane bahagaze bimeze nk'aho barimo gukora mu bintu bigiye bitandukanye, harimo ufiteho imbere ye mudasobwa iteretse ku meza, na terefone icaginze irambitse hasi.

Abantu babiri umwe ni umuganga arimo gutera undi muntu urushinge ku kuboko, imbere yaho handitseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo "Hasigaye iminsi ibiri turi kumwe."

Ikintu kinini cy'icyapa gisa ubururu, kirimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, inzu iri hasi, amapoto ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ishyamba rinini cyane harimo ibiti bikuze harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza hejuru hakabaho amagambo yanditse mu nyuguti nini r na fa na a .

Ifoto y'umuntu utambitse wambaye ishati inyerera ipantaro y'umukara imbere ye hari ibintu byanditseho amagambo mururimi rw'icyongereza bafite telefone mu ntoki imbere nabwo hari n'amasafuriya.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara bigaragara ko ari imyambaro ya polisi, bahagaze iruhande rw'inzu ntoya mu marembo y'ikigo cya polisi ishami rya Remera.

Ipironi ndende cyane iriho amatsinga urwuma ruzamutsemo mu hagati cy'igikara, hasi hariho ishyamba ryinshi ry'ibiti bikuze cyane ikirere gisa ubururu n'umweru bivanze.

Inzu inzugi zikinze hariho ibirahure iteye irange ry'umuhondo hejuru yaho hariho igishangara cyumye n'uruti rw'ururabo rwakuze rurerure n'igiti kizamuyeho kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi nyinshi.

Inyubako nini irimo amapironi mo imbere y'umiriro w'amashanyarazi, hakaba hasi urugi runini cyane ariko rwo rurafunze, hejuru ku rugo hariho akantu k'inyubako gatoya kariho hicayemo umuntu, hariho urwego ruzamuka rujyamo n'aho bacungiramo umutekano w'urwo rugo rwose.

Perezida Paul Kagame wambaye umupira w'umukara ufite akadarapo ka efuperi ku ijosi, ndetse n'ingofero y'umukara na rinete afite mu ntoki mikoro ndetse nyuma ye hahagaze ushinzwe umutekano n'abaturage bicaye mu ihema riri inyuma ririho idarapo rya efuperi.

Amapoto ari hejuru, harimo ikintu cyongera umuriro kikawuzamura, harimo amasinga, hariho abantu benshi hasi, n'icyapa cy'umuhonda cy'akazu kubatse wagira ngo hicaramo abagenzi, n'amazu menshi ari inyuma n'ibihuru inyuma yaho.

Ipironi ndende hakurya hari n'indi hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu, zirindwi. Hariho ibirinda ko umuriro wafata abantu.

Ipironi ndende cyane y'umuriro w'amashanyarazi, igaragara yose hejuru hariho amasinga menshi y'amashanyarazi ane, hasi aho yubatse hari ibyatsi byinshi cyane byakuze, hakurya hari umusozi wubatseho amazu.

Amapoto abiri atwaye insinga z'umuriro w'amashanyarazi n'inzu iri hasi ifite ibirahure n'amadirishya n'ibyapa biriho kuri iyo nzu biri ibintu bimeze nk'ahashushanyijeho ibyo kurya kandi hashushanyijeho mu icupa ry'inzoga.

Amapoto arimo taransifoma by'umuriro w'amashanyarazi bigabanya umuriro cyangwa bikawongera, hasi hariho ibiti, ibyatsi bimeze nk'imigano.

Amapoto abiri ari gucaho amatsinga hamanitseho n'amatara amurika urugo rw'amatafari ahiye munsi harimo umuringoti n'ibyatsi n'ibiti byinshi bihateye n'ibindi biri hakurya n'ikirere gisa umweru.

Ipoto ririho itara rimurika ryo ku muhanda n'amapironi ari hejuru ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, moto iri hasi ihetse akantu n'ibiti biri ku mpande.

Ipoto izamuye ifite ikimenyetso cy'umusaraba, iriho amatsinga menshi y'umuriro w'amashanyarazi, hasi hariho inzu yubakisije amatafari ahiye, iriho n'ibyuma.

Imodoka na moto eshatu ziriho n'abantu, n'umusore uhagaze ku ruhande wambaye isarubeti y'ubururu urimo kureba muri terefone, uhagaze hasi na kaburimbo imbere ye n'icyapa kimuri hejuru gishushanyijeho umuntu.

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Ipoto ikoze muri sima amatsinga ariho y'umuriro menshi kashipawa ishyira abantu umuriro, inzu ifite igisenge cy'amategura kabisa n'umukara n'ibiti biri hafi n'urugo.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, igiye isumbana, hejuru hari igisenge cy'amabati. Inyuma mo imbere harimo ibipironi biriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Hasi hariho ibiti bishinze nk'aho iyo nzu itari yuzura.

Amapoto hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ibiti binini bitonze ku murongo, urugo rw'amatafari ahiye, mo imbere harimo inzu iteye irange ry'umweru.

Kaburimbo harimo amahuriro abiri y'imihanda, ariho akapa gafite ibara ry'umweru n'umutuku, itara rimurika mu muhanda n'ibiti n'abamotari bafite na moto imbere zabo imbere.

Ikintu cyubatse mu masima kizamuye hejuru, kirekire hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hasi hariho ibiti binini cyane, ikirere kirimo gusa ubururu cyane, harimo umweru mukeya.

Amapironi menshi, ariho amatsinga hejuru y'umuriro w'amashanyarazi, hasi hariho itaka rivanzemo n'amabuye, ibyuma bishinze n'ibintu by'ibyuma byubatsemo byinshi bitandukanye, n'amabara agiye atandukanye.

Ipironi iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hariho n'akandi kantu kamanitseho k'amarezo y'ama telefone. Hasi hariho igiti kinini cyane gisumba izo nsinga.

Imodoka itwara abagenzi rusange harimo abagenzi mu imbere harimo umwe wasohoye inkokora hanze urimo kureba hanze inyuma hari ahantu abagenzi bicara bateze ipoto iriho amasinga hejuru n'azamubazi z'umuriro w'amashanyarazi.

Amapiloni abiri asumbana harimo irirerire n'irigufiya, hariho amatsinga menshi ari hejuru cyane n'ari hasi atanga umuriro nyarezo ikirere gisa umweru n'ubururu bivangavanzemo.

Ndabonamo ibyatsi, nkabonamo ipironi, nkabonamo urugo rwubakisha amatafari ahiye, hakaba harimo ibyuma bya senyenge hariho uruzitiro rw'amabati.

ipironi rirerire cyane n'amapoto abiri ahuje, hagati harimo icyuma cyongera umuriro w'amashanyarazi cyangwa kikawugabanya, hariho amatsinga manini cyane menshi agenda atanga umuriro, ikirere kirasa ubururu n'umweru bivanze.

Ndabona imodoka, nkabona umuntu uri imbere yayo, nkabona iri ahantu harimo sima, hariho urugo ruyizengurutseho ruho amatafari ahiye hari n'mipiloni iriho insinga z'umuriro n'inzu ziriho amabati.

Amapoto abiri azamuye, harimo icyuma cy'umuriro cy'amashanyarazi cyongera umuriro cyangwa kikawugabanya, hasi harimo agakarito gafunze hameze nk'aho harimo ibintu n'abyo by'umuriro w'amashanyarazi, ibi bikaba babishinze ahantu mu byatsi harimo n'ibiti ku ruhande byinshi cyane.

Iyi ni hoteri yubatse ku buryo bugezweho ndetse butangaje, ikaba yubatse mu gihugu cy' uRwanda mu mujyi wa Kigali; aho abakerarugendo bishimira kuyisura ndetse ikaberarwamo n'ibikorwa bitandukanye by'igihugu.

Abantu babiri begeranye bari kumwe bari ahantu harimo sima, imbere yaho harimo akantu gacimo kabiri umuhanda tw'utwuma, inzu ziri imbere zubatse mu matafari ahiye zifite ibisenge bitukura n'imireko.

Nini cyane yubakishije amatafari ahiye ifite ibirahuri n'amadirishya manini cyane, hari imbere hariho urubaraza runini harimo intebe abantu bicaramo, hirya harimo ahantu hicayemo abantu bicaye bakoze iki uruziga.

Ikibuga kirimo itaka gusa hakurya hariho n'ahandi hafashe amatafari imbere hari amazu menshi cyane hariho abantu bahari harimo abicaye n'abahagaze bafite ibikapu bisa umutuku.

Abantu bicaye ku ntebe zikoze mu byuma harimo na bostambitse yegamye benshi hasi harimo amakaro hejuru nabwo harimo ibizababwa amakara n'amatara amadirishya arafunguye.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka zirimo kugenda, n'amazu menshi agiye atandukanye, insinga z'umuriro w'amashanyarazi n'amatara ku muhanda, n'ibiti bikuze cyane biri hakurya ikirere gisa umweru n'ubururu bivanze.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu urwanda.

Abantu babiri harimo ufunze nuri kumuburanisha baricaye imbere ku meza igikapu harimo imashini n'urupapuro barambitse imbere yabo barimo mu nzu ifite amabara menshi agiye avangavanze.

Imodoka ziri mu ibara ry'umweru zitwara abagenzi, hari umugabo wambaye ishati ya karokaro n’ipantaro y’umukara ahagaze mu idirishya, hari n'abandi bagenda n'amaguru bisa naho baje gutega.

Abantu bicaye munsi bifashe ku gahanga nk'aho bumiwe imbere yabo hariho urubaho rwicayeho abantu babiri bafunze bambaye iroza bose bahanze amaso imbere nk'aho bari mu butabera.

Umugabo wicaye ku ntebe yegamirwa wambaye umupira w'umukara ufite imashini izamuye hejuru wiyogoshesheje umusatsi wose ntanamuke uriho inyuma hari ibintu by'umutuku birahambitse.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu ibara ry'umukara, hakaba handitseho hamwe muri ho ngo amategeko yashingiweho.

Ikirangantego cyanditse hejuru ngo ubutabera bwunga, hasi hakandikwaho ngo inkiko gacaca. Mo imbere harimo abantu bicaye hasi, abahagaze babiri, imbere yaho hariho ameza, inyuma harimo abandi bicaye munsi y'igiti.

Bicaye n'abahagaze abahagaze bambaye imyenda isa, y'ubutabera bamanitse ikiganza cy'uburyo hejuru barimo kurahirira, amategeko buri muntu imbere ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ni mu nzu mo imbere harimo kwaka n'amatara.

Ahantu handitse amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda, hariho ikirangantego cy'u Rwanda, handitseho ngo wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba?

Abantu bicaye, harimo umumama wambaye imyenda y'imfungwa, wambaye amarinete, nta musatsi afite, imbere ye hari umugabo wambaye imyenda ya kake, hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, umucungiye umutekano.

Urupapuro rujya gusa umweru harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza bikaba byose bitondetse mu Bintu by'ibika bigiye bitandukanye.

Ni umwe batatu bambaye imyenda isa n'ingofero bashinzwe ubutabera mu rwanda, babiri barimo barasuhuzanya undi umwe aricaye ku imbere ye hariho intebe iriho mikoro n'icupa.

Umuntu wogoshe umusatsi w'inzobe ufite mikoro ku iko ku rutugu, yambaye umwenda w'umuhondo ariko utari umuhondo cyane, unanutse urimo kuvuga, ari ahantu hari amabara y'umutuku n'umweru hari n'amagambo ari mu nyuguti nini zitukura.

Urupapuro rwanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa, mu kinyarwanda haranditse ngo kigali ku wa cumi na kabiri zukwa munani bibiri na cumi, kagame paul perezida wa repubulika. Hasi igakomeza n'andi mazina n'ibindi.

Abantu bicaye hasi ahanu mu inzu m'imbere, bose bambaye imyenda is'umuhondo, bafiteho amakaramu ku mifuka, bicaye ku ntebe imbere yabo hariho ameza bose bafite copiyuta, imbere yabo inyuma hari undi muntu uhagaze wambaye imyenda ya kake ubacungira umutekano.

Urupapuro rwanditseho amagambo yo mu kinyarwanda ahabanza hariho ibara ry'umuhondo hakurikiraho umukara n'umweru n'i ibara ry'umutuku rimeze nkiriijya kwijima hariho umuntu.

Umugabo wicaye wambaye ishati y'umweru ikote na karuvati, nta musatsi afite. Yambaye ekuteri mu matwi, imbere ye hariho na ka mikoro, mbere y'umuntu. Ameze nkaho nu utanga ikiganiro.

Abantu bicaye ku igice cy'imbere bambaye imyenda isaa ab'inyuma iravangavanze n'amakoti ab'imbere bambaye nk'abacamanza bashinzwe inkiko gacaca bari kugenda barahiza abantu.

Umugabo ufite uruhara inyumaga hariho umusatsi agaragaza igice cyo mu mutwe imboni n'umunwa n'ubwanwa yambaye ishati y'umweru inyuma hariho ikote ifite akabara k'umukara n'umutuku n'ishati ifite ibipesu by'umukara.

Urupapuro rw'umweru harimo amagambo yanditse murimi rw'Ikinyarwanda asa umukara. Handitse ngo: "Umutwe wa gatatu ibyaha n' ibihano bya ruswa." Ingingo ya kane...

Harimo amakarito rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu hariho ubupapuro imbere bw'umweru yose. Yose hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda; Muhanga, AKarere ka muhanga, umurenge, Umuyobozi wa muhanga, Karama.

Ahantu habaye inkongi y'imuriro, hari abantu bashinzwe kuyizimya, bazanye kizimyamuriro, bafite itiyo ya barimo kugenda basukaho ibintu barimo bazimya uwo muriro. Bambaye imyenda yabugenewe

Abantu benshi bahagaze, abandi barimo kugenda, harimo umwe ushinzwe umutekano w'abantu bambaye imyenda y'icyatsi, bita umudaso, bose barimo bahagaze ahantu hashashe amatafari, imbere yaho hariho inzu nini.

Kizimyamuriro ebyiri: imwe y'umutuku n'indi y'umweru. Hejuru hariho uruntu rw'urutembo ruzengurutseho runini rw'umutuku rumeze nkaho ruhambuka bakarujyana hirya mo imbere mu nzu.

Ndabonamo moto, nkabonamo abamotari bambaye kasike n'ijire, nkabona umupolisi ushinzwe gucunga umutekano, nkabona y'uko ari muri kaburimbo bageze ku muhanda harimo umurongo uciyemo ibara ry'umuhondo utambitse.

Kizimyamuriro iri mu ibara ry'umutuku, ubururu, n'umweru hariho akantu hejuru mu ibara ry'umuhondo kagashumi, inyuma yaho hariho amakarito, hasi harimo sima, inyuma harimo izindi nk'ebyiri.

Icyapa gishinze hasi ku butaka hariho kiranganirwa cy'igihugu cyu Rwanda hariho n'ikindi cya poRisi yu Rwanda ishinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo, harimo amagambo yanditse m'ururimi rw'icyongereza na nomero za terefoni.

Moto, abantu babiri bambaye imyenda ya polisi bari hasi, n'inzu igereretse hejuru n'icyapa kiri imbere, umutaka uri imbere yaho na kaburimbo.

Inzu ndende y'ubatseho amakaro hejuru hariho akantu kazamuyeho nk'umunara hariho urutsinga ruriho ruzengurutse n'akantu kakuma k'agakara n'utuntu tw'uduhembe turiho hejjuru y'ako kantu.

Ndimo ndabonamo kizimyamuriro, isuma isa umutuku, ikagira akantu hejuru gasa umuhondo, ikaba yegetse ahantu ku rukuta, ikaba ifitemo amagambo asa umweru yanditsemo.

Inyubako iriho ikirangantego cya polisi y' u Rwanda handitseho amagambo y'icyongereza ngo polisi siteshoni Gisozi, ibiro bya polisi muri gisozi aho bikorera, imbere yaho hariho abapolisi babiri n'umuntu umwe ugaragara igice gito.

Ahantu habaye inkongi y'umuriro hageze abantu bashinzwe kuyizimya, nibabiri barimo kuyizimya bafite itiyo irimo kuvamo ibintu barimo gusuka mwuwo muriro. Hakurya hari abantu benshi cyane barimo kureba abandi barimo gufotora n'imodoka nini cyane ihaparitse inyuma yabo.

Icyapa kiri ku muhanda kiriho nimero za terefone n'amatariki uno mwaka handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, hashushanjijeho ikirangantego k'Igihugu cy' u Rwanda hakurya hari amamoto, n'abantu, n'ibiti na kaburimbo irimo hagati.

Abantu bane babiri bahagaze n'undi umwe wicaye uwicaye imbere ye hariho ameza na mikoro yambaye linete ishati y'umweru irimo akantu k'ubururu inyuma ye hari idirishya ririho ibyuma.

Ahantu habereye ibirari harimo ibintu by'amatente bizamuye hejuru by'imweru harimo abantu benshi imodoka inzu inyuma nyinshi zisakajeho amategura, hose harimo kaburimbo abahetse ibikapu.

Abantu barimo kugenda harimo abagabo n'abagore, aba mama bafite amashakoshi mu ntoki haruguru yaho hariho ibintu bifashe hejuru ku muhanda by'amabuye n'ibiti by'imikindo n'imodoka inyuma inyuma mu muhanda.

Umumama umwe isura y'umukara n'imyenda y'imikara akantu k'agakarito kari imbere ye kameze nkaho ari gushiramo agapapuro n'ikaramu afite mu ntoki, hakurya ye hari ikintu kimeze nk'igikuta gifite amabara y'umuhondo n'icyatsi n'ubururu.

Abantu bahagaze harimo n'abicaye, harimo perezida uri imbere y'ikigantego cy'u Rwanda n'idarapo ry'u Rwanda, imbere ye hari umugore we n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga urahiza abantu.

Abantu babiri umumama n'umugabo, umugabo w'umwisiramu wambaye ikote n'ikanzu y'umweru n'ingofero y'umukara ufashe ku idarapo ry'u Rwanda ry'igihugu, n'umumama ufashe ku idarapo ry'u Rwanda rw'igihugu bazamuye ikiganza.

Igishushanyo bakoze handitse mu rurimi rw'Icyongereza hariho igice cya mbere kivuga Akarere hakazaho udushami dutatu tw'imirenge, utugari, imidugudu n'abaturage.

Umugabo wicaye mu ntebe yegamirwa y'umukara, wambaye ikote na karuvati n'ishati, mu maso ni imibiri yombi, nta musatsi afite, imbere ye hariyo ameza arambitseho agacupa k'amazi na mikoro.

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Umugabo umanitse ukuboko urimo kurahira, yambaye ikote ishati na karuvati mu maso n'igikara imbere ye hari mikoro hariho amagambo yanditseho minisitiri w'urubyiruko inyuma ye hari igikuta.

Aba mama babiri n'umugabo umwe barimo guseka, umwe yambaye isaha n'amarinete, inyuma yaho hari ibintu by'umutuku n'ubururu ni ahantu mu nzu.

Ahantu handitse ngo twitabire amatora duhitemo neza, hari abantu benshi barimo kwinjira n'abasohoka, barimo kujya gutora abayobozi, hanze hari undi muntu wambaye kuteri, wegamye urimo kureba ku ruhande rwa ruguru.

Ndabonamo abantu baba mama, hamwe n'abagabo barimo gusinya hasi, harimo ikaramu harimo mudasobwa, bakaba bari m'inzu isakaje amabati hakaba hari n'umuntu ufite urimo gufotora.

Umugore wicaye mu ntebe yegamirwa imbere ya hari ameza n'ibitabo na terefone n'ubucupa bubiri bw'amazi, idarapo inyuma hariho ibara ry'ubururu riri inyuma y'intebe.

Umuntu yicaye imbere ye hari ameza ariho mudasobwa hejuru ye hariru undi umuhagazeho umeze nk'aho arimo kumubaza ibintu, inyuma yaho hari umukobwa nawe urimo kumureba ariko ari kure ye.

Amadarapo abiri harimo rimwe ry'igihugu cy'u Rwanda, abantu batanu bicaye mu ntebe zegamirwa, imbere yabo bose hariho ameza n'amacupa y'amazi na za mikoro, imbere yabo bari mu nzu mo imbere.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka irimo kugenda nini cyane itwara abagenzi rusange bagenda bakozaho amakarita. Imbere yaho harimo umuntu urimo kugenda mu nzira y'abagenzi, agendesha amaguru. Hakurya y'umuhanda hariyo ibiti binini.

Muri kaburimbo harimo imodoka zirimo kugenda na moto harimo ihetse inzoga za burarirwa z'amoko atandukanye. Hakurya hari ibiti bizitiye birimo imbere mu ruzitiro harimo n'inzu igaragaramo kure hakurya.

harimo moto ebyiri ziriho abantu, imodoka irimo ibara ry'umweru, inyuma y'aho hariyo undi muntu uhagaze wambaye umupira w'umweru n'ibiti, ziri muri kaburimbo, inyuma y'ibiti nabwo hariho inzu.

Imodoka iri mu muhanda itwara imizigo inyuma ifunguye hejuru hariho ibyuma bizamuye birebire, inyuma yaho hariho umuntu muri kaburimbo mu nzira y'abagenzi yarasenyutse mu tuntu twaguyemo.

Imodoka nini cyane iri mu muhanda wa kaburimbo imeze nk'aho itwara ibintu by'amazi, inyuma hakurya y'aho hariho ibiti binini cyane, hariho uruzitiro rukoze muri supaninete, kuzenguruka kuri kaburimbo.

Amagare abiri arimo kugenda mu nkeke zitandukanye iyo modoka itwara imizigo hakurya harimo inzu nyinshi n'ibiti biriho bimanutse na kaburimbo izo modoka zirimo kugenda zicamo.

Imodoka kinini cyane cyikoreye uruntu rw'uruziga bagira ngo batwaramo za peteroli cyangwa amazi kirimo kugenda muri kaburimbo, imbere hari indi modoka ihagaze, n'amazu menshi ari ku muhanda.

Urumodoka runini rurimo ruragenda, ruhetse uruntu inyuma runini rumeze nk'aho hajyamo amazi, ibiti biri inyuma, na kaburimbo ihari.

Muri kaburimbo harimo kugenda umunyegare umwe, wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umukara, yambaye inkweto zifunguye z'umuhondo, uhetseho imifuka umwe, ibiri, itatu, ine, itanu. Hakurya hariho ibiti n'abandi barimo kugenda n'amaguru.

Imodoka ebyiri z'imizigo, imwe iriho shitingi hejuru, itwikiriye ibintu, indi ibintu biriho ariko ntibitwikiriye by'imifuka, umuntu inyuma yayo, n'umutaka n'ibiti biri ku muhanda inyuma, byose zirimo kugenda hasi ahantu, hariho isima, ntago ari muri kaburimbo.

Mumuhanda harimo imodoka ebyiri zirimo kugenda mu cyerekezo gitandukanye imwe irasa umutuku indi irasa umweru hakurya hariho ibiti n'umuringoti urimo gusa nk'ibura ry'umuhondo n'inzu iri hakurya.

Imodoka nini cyane ihetse imizigo isa mu ibara ry'umutuku, noneho shitingi izengurutseho itwikiriye ibyo bintu hariho imigozi irimo guca ahantu hasi kuri kaburimbo ibyaha ari ibyatsi n'insinga hejuru.

Moto nyinshi zose zihagaze hariho abantu b'abamotari hariho n'undi muntu umwe uhagaze hasi, ukoze mu mufuka. Inzu nini cyane iri imbere igeretse n'igiti kiri imbere yabo na kaburimbo ibari imbere.

Muri kaburimbo harimo kugendamo moto y'amapine atatu, iriho abantu babiri n'imodoka iri hirya. Hakurya yaho hari ibiti, uruzitiro rw'akantu gasa icyatsi kazengurutseho ku biti, hakurya hariyo n'amazu menshi.

Imodoka iparitse ifite irangi ryvumweru n'ibinyoteri by'umutuku mu ruhande harimo ahasa umuhondo, hasi kumuhanda wa kaburimbo irimo, hakurya hariho inzu yubakisha amatafari ahiye, iriho itara imbere y'urugi, n'ibiti biri inyuma.

Umunyonzi ufite igare uri mumuhanda n'akamodoka k'amapine atatu, n'indi nini y'amapine ane itwaye abagenzi mumabara y'umweru, n'umuntu uri kugenda n'amaguru n'ibiti n'insinga n'inzu iri inyuma ya ho.

Imodoka yikorera imizigo, iri muri kaburimbo inyuma yaho hari igare na moto n'izindi modoka ziri inyuma n'ibiti n'inzira y'abanyonzi ku ruhande n'inzu, inyuma yaho ikirere gisa umweru.

Muri kaburimbo turimo kugendamo imodoka nyinshi na moto ariko harimo imwe ihetse ikintu kijyamo amazi, hakurya hariho ibiti byinshi ikirere kirimo gusa umweru.

Imodoka iparitse itwara abantu, abantu abagenzi rusange ifiteho indorerwamo n'ibirahure, iri ahantu hasi hameze nk'aho harimo sima ariko hasa nabi cyane, mo imbere hakaba arimo umubare gatandatu uri utukura.

Imodoka ebyiri, imwe iri imbere, indi iri inyuma, birimo kugenda bisigana, birimo guca muri kaburimbo byose, inyuma yaho hari itara ririmo kumurika mu muhanda, n'ibiti n'amazu ari inyuma hakurya.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda isa umutuku, itwaye imizigo, harimo mo mbere umucanga, hejuru hariho shitingi, hakurya yaho hariho abamotari barimo kugenda, inyuma hariho ibiti n'uruzitiro ruriho, ruzengurutseho.

Imodoka ya kwasiteri iri mi muhanda, itayemo abagenzi benshi cyane, imbere y'aho hari indi y'ivatiri, irimo kugenda, iri mu cyerekezo bitandukanye. Hakurya y'aho hari ibiti biteye ku muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwara imizigo harimo imireko imwe bashyira ku nzu imanura amazi, mu modoka mo hejuru, harimo umuntu umwe urimo kugenda ayizamura, ku ruhande hariho umuntu urimo kugenda n'amaguru, hakurya hariho inyubako y'inzu nini.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto imwe idahetse umugenzi, hariho umumotari umwe gusa hakurya y'umuhanda hariyo inzu, hakabayo n'ind' ir' inyuma y'itaje igeretse cyane, n'ibiti n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi zigiye zihari.

Abantu babiri basunitse amagare, uwa mbere apakiyeho umufuka wagira ngo urimo ibirayi wuzuye, uwa kabiri ni igice cy'umufuka, yambaye isarubeti y'icyatsi, hirya yabo hari imodoka bari kugenda baringaniye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane itwara imizigo, imbere hariyo amamoto n'igare, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti binini cyane, hakurya hariyo inzu nini irimo kuhagaragara isa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka ebyiri ziri no kugenda mu byerekezo bitandukanye. Ku ruhande rw'abagenzi hariho umuntu umwe urimo kugenda wambaye inkweto zifunguye, hakurya y'umuhanda hari ibiti hariho n'uruzitiro ruzengurutseho inyuma.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu urwanda.

Ni muri kaburimbo harimo imodoka zihagaze n'abantu barimo kugenda ubuzu abagenzi bicaramo bategereje imodoka amazu menshi ari ku murongo n'amatara amanitse ku muhanda.

Abantu benshi barimo kugenda n'abandi bicayemo, mu kantu kubatse n'ibyuma, ibyatsi biri imbere by'ibirabo, n'ibiti byinshi, n'umuhanda urimo amasima.

Ahantu abagenzi bicara gasa irange ry'umuhondo n'intebe, mo imbere hazengurutse akambaro k'umutuku, kababuza kwinjiramo, abantu babiri barimo kugenda bari mu byerekezo bitandukanye n'imodoka.

Ahantu hanini cyane hameze nk'ahari ikibuga harimo ibyatsi bitoya byose bingana, hakurya hariyo ahantu hubatse hejuru harimo ibintu by'intebe zo kugenda bicaramo biyakira hari abantu bari kugaragaramo, hakurya hakaba hari n'ibiti byinshi cyane.

Umusozi hanini harimo kuvamo izuba, harimo ibyatsi na hatarimo ibyatsi ibyatsi byahiye cyane bikeya bigiye kuma harimo kuvamo n'izuba ryinshi.

Igiti, ibyatsi biteye hasi bya pasikarumu, umugoti, urimo nk'umugende umeze nk'utwara amazi, umuntu uri hakurya imbere y'urugo, hari igipangu n'ibiti,...

Icyapa kizamuye hejuru gishinze kiri mu ibara ry'umutuku n'imbere harimo umweru n'umukara ushushanyije nk'imisozi kikaba kiyobora abantu.

Icyapa gifite amabara y'umuhondo, ubururu n'umweru, umuntu uri mu ibara ry'umukara, igiti gisa nk'ibara ry'umweru gishinzemo, inyuma hariho ibiti byinshi cyane,...

Icyapa kiri mu ruziga kizengutseho ibara ry'umutuku hakurikira umweru harimo umubare wa mirongo itandatu uri mu ibara ry'umukara inyuma yaho kiri mu kibara cyose kizengurutseho cy'ubururu.

Kaburimbo irimo hagati ibiti by'indabo na pasiparume ziri hasi. Hakurya hari inyubako y'itaje hakurya y'umuhanda harimo rigori n'ibiti n'icyapa

Icyapa inyuma gisa umutuku, imbera umweru n'umuntu w'umukara urimo umeze nk'ufite igitiyo arimo gutiyura cyerekana cyangwa kikayobora abagenzi b'ibinyabiziga ko imbere hari abantu barimo kuhakorera ibikorwa.

Ibyapa bibiri: igito n'ikinini, harimo ibara ry'umweru n'umutuku, hariho n'ibiti hasi inyuma byinshi cyane by'ibihuru, bifite amabara agiye atandukanye; umutuku, icyatsi, ikirere gisa ubururu.

Ndabona icyapa kigaragaza inzira y'abagenzi kizengurutsweho ibara ry'umutuku, harimo hashushanyijeho umuntu usa igikara hakabamo utongo ducagaguye.

Icyapa kiyobora abantu b'ibinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku, amagambo arimo yanditse mu ururimi rw'icyongereza mu ibara ry'umukara, kivuga yuko imbere hari imirimo irimo kuhakorerwa utemerewe kugenda wihuta.

Icyapa gisamo umuhondo n'umukara uzengurutse, n'uruziga rw'imbere inyuma yaho nibyatsi byinshi, bimeze nka senyenge bigihe bizengurutse.

Ibyapa bibiri bishinze ku cyuma kimwe ya kimwe, kimwe kirasa umutuku harimo ibara ry'umweru n'ikindi na cyo ni umutuku, harimo ibara ry'umweru, imbere inzu iri imbere yanditseho ijambo irembo n'ikindi handitseho mu nyuguti nini ka na ga na gatanu.

Muri kaburimbo harimo umuntu na moto zirimo kumanuka mu mihanda itandukanye, n'icyapa kiririmo cy'uruziga, ikindi kiri hejuru cyanditsemo nyuguti ya pa, y'umweru mu ibara ry'ubururu ikindi nacyo kirimo agafureshi k'umweru n'ibiti biri ku mpande.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara urimo imbere bimeze nk'aho hashushanyijemo imisozi, kiranga abagenzi baba bagenda mumuhanda kiri imbere ya bo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku mo imbere umweru, harimo amatara y'ibinyoteri atatu. Umutuku, umuhondo n'icyatsi inyuma yaho hariho igiti kinini.

Icyapa kirimo uruziga rutukura imirongo irimo kigabanijemo kane, n'uduce tune dusa mu ibara ry'ubururu.

Amapoto abiri ashinze inyuma hariho urugo ruriho ibyuma, hasi harimo muringoti, bacukuyemo itaka ya kaburimbo hariho ibiti n'inzu n'urugo rw'amatafari ahiye.

Byinshi cyane bitonze ku murongo, handitseho mu rurimi rw'icyongereza n'igifaransa, bifite amabara agiye atandukanye. Hasi aho byubatse hari ibyatsi bitoya, hakurya hari amazu menshi ahubatse.

Ahantu hameze nk'aho hari kuvamo izuba, hariho moto imbere n'umuntu uhagaze n'ibiti, inzu yubatse imeze nk'aho bacururizamo ibintu byo kunywa, binyobwa, ikaba yubatse mu mbaho.

Inzu isakaje amategura yanditseho akantu kanditseho cumi na karindwi, urugo rwubakishije amatafari ahiye, harimo nindi nzu yaheshakaje amabati y'igiti cy'umukindo n'urundi rururabo ruri munsi aho ngaho.

Inzu yari imbere nini cyane ifite igisenge cy'umutuku imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo urimo gucamo moto, hari izitwaye abagenzi n'izidafite abagenzi, n'amagambo yanditse mu rurimi rw''cyongereza hagati mu muhanda hariho indabo n'ibiti by'imikindo biteyemo.

Inzu eshatu harimo igeretse n'indi itageretse, inzugi ebyiri mbere yaho hariho indabo na kaburimbo iri imbere n'utuntu dutwara amazi ku mpande y'inzu.

Inzu ni cyane ifite urugi runini hejuru kurugi harubatse n'urugo rwubakisha amabuye n'amatafari ariho n'idirishya n'ibyuma inzu irimo imbere isakaje amabati n'ipoto iriho amatsinga y'amashanyarazi.

Ndabonamo inzu ikoreramo ahantu abaturage babitsa, nkabona kaburimbo, nkabonamo imodoka nkabonamo na moto z'abantu, nkababonamo n'igiti kirimo.

Mu muhanda w'igitaka hakurya hari inzu yubakishije amatafari ahiye isakaye hejuru, mu inzu hicaye abantu hanze n'undi urimo kugenda, imiryango irafunguye hanze harambitse indobo bacururizamo n'ibindi' mu imbere mu nzu.

Inzu yubatse inyuma ikaba ifiteho urugo rwubakishije amatafari ahiye, hejuru y'urugo rwazengurutseho ibyuma, inyuma y'inzu hariho ibyatsi hasi n'ibiti biteyeho birebire binini cyane, hakurya hari amazu menshi cyane ahubatse.

Inyubako nyinshi cyane zigiye zirimo amapoto ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi hagiye harimo n'ibiti mo imbere n'indabo imbere yaho haparitseho imodoka irimo kwaka amatara imeze nkaho irimo kuvamo igenda.

Inzu nyinshi cyane zigereretse rimwe zisakaye, ibyatsi biri imbere harimo n'uturabo n'itaka ikirere k'inyuma gisa ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo ikinyabiziga n'iki na kimwe hakurya hari amazu meza cyane ageretse y' itaje hasi haparitsemo amamodoka menshi y'ubwoko bugiye butandukanye hateyemo ibiti by'indabo imbere.

Ahantu hakoteye n'amazu, harimo n'imomodoka n'igiti, hariho n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyamitsingi Remera n'ishusho irimo umwana.

Inzu yubakishije amatafari ahiye hasi hariho n'amabuye n'ibyuma bizengurutseho, igiti cy'umukindo n'ibyatsi imbere ya ho n'amagambo ariho yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Kanombe.

Inzu nziza cyane igeretse rimwe iriho imbere igiti cy'umukindo cy'ururabo haparitsemo moto harimo ibyapa byanditsemo inyuguti ivuga yuko nta muntu wemerewe guparikamo ahantu hari iki kintu, imbere yaho hari n'umuntu w'umugabo.

Ndimo ndabonamo inzu ntoya, urugo, inzu ndende zigeretse cyane harimo umunara hakaba harimo ibiti, inzu zisakaje amabati y'umutuku, umweru harimo n'amadirishya.

Mu muhanda w'igitaka imbere hariyo imodoka zihagaze zitarimo kugenda inyuma y'izo modoka, hari inzu yubatse ifite irangi ry'umweru hakaba hazengutseho n'ibiti binini cyane n'abagenzi bari muri uwo muhanda barimo guturukamo hirya.

Inyubako nini cyane igeretse ifite amazu hejuru menshi cyane hariho insinga zirimo kuyica hejuru z'umuriro w'amashanyarazi, imbere yaho hariho igiti kigaragara n'umuhanda wa kaburimbo hariho imodoka ifite ibara ry'umutuku.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Inzu ebyiri zisumbana munsi haparitseho imodoka ebyiri zitarimo kugenda, hejuru hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi eshatu.

Inzu nini yubatse ifite irange ry'umweru n'irindi ryivanzemo ikijuju hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, imbere yaho hariho indobo zigiye zirimo indabo mu muhanda uri imbere y'inzu n'uw'amatafari.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo kugendamo imodoka nyinshi zitandukanye, imbere yaho hariho inzu nini ifite igisenge iteye irangi ry'umweru. Mu muhanda harimo ubwuma burimo ubw'umutuku, bugabanyamo umuhanda kabiri.

Urugo ruriho umukindo n'ibindi byatsi biraho imbere yaho hariho sima, inyuma hariho ibyatsi n'akuma kazamuye kari mu ibara ry'umutuku, inzu ifiteho igisenge n'imereko imanura amazi hariho n'indi nzu ifite amabati atukura.

Ahantu hacuritse hariho imodoka z'amoko atandukanye nyinshi, amatara yo ku muhanda, imikindo n'ibiti na kaburimbo n'imisozi irimo kugaragara hakurya.

Imodoka irimo kugenda ifite ibara ritukura. Inyuma hari na moto irimo kugenda iri mu icyerekezo kimwe, n'abantu barimo kugenda muri kaburimbo. Hariho n'ibiti n'amapoto ariho insinga z'umuriro.

Umuhanda wa kaburimbo, hariho mo hagati ahantu hateye indabo n'igiti cy'umutsindo, hakurya hariho ibyapa biranga ibinyabiziga n'abagenzi barimo gucamo. Harimo imodoka na moto.

Ishusho itambitse harimo imodoka muri kaburimbo isa nabi harimo itaka ,ibiti n'imiyoboro itwara amazi iri kuruhande n'amataje ari hakurya.

Ndabona moto ebyiri ziri muri kaburimbo, imwe ikaba itwaye umugenzi n'indi ikaba itwaye umugenzi, mugenzi ku yiri imbere afite igikapu, uwa kabiri na we afite ikarito, bose bambaye kasike bari kuri za moto zimwe.

Kaburimbo nini cyane ifite ibyerekezo bibiri, harimo moto nyinshi zirimo kuzamuka n'izindi zirimo kumanuka, harimo amatara hagati acanamo mu muhanda, hakurya yaho hariho umuhanda, ku rundi ruhande hariho amashyamba, ibiti byinshi cyane.

Moto nyinshi zirimo kugenda zicanye amatara n'imodoka yo kugenda icanye ibinyoteri by'inyuma amatara arimo kumurika mu muhanda burije ni ahantu bwije mu muhanda wa kaburimbo harimo hahana abagenzi bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, imbere hariyo moto zirimo kugenda, n'umuntu urimo kugendsha amaguru, n'imodoka ziri kumanuka ebyiri zishoreranye, hakurya hariyo ibiti byinshi cyane.

Umuhanda w'akaburimbo harimo imodoka na moto irimo kugendamo, hakurya y'umuhanda hariho ibiti byinshi cyane n'ibyatsi birimo hakabaho n'inzu iri imbere yubatse, ikirere kirimo gusa umweru.

Ikiraro umuhanda uca munsi n'uca hejuru, hejuru uriho ibyuma itara rimurika ku muhanda ricuritse, umukobwa wambaye imyenda migufi igaragaza amatako ikaba nawe acuritse.

Imodoka nyinshi ariko zicuritse, amazu, ibiti, kaburimbo irimo imirongo igiye itambitse y' imyeru, imeze nk'aho abagenzi bambukira, ikirere kigaragara cy'umweru.

Umuhanda ugeretse munsi harimo ikiraro harimo imodoka ziri guturukamo n'abagenzi n'igare, hejuru ku kiraro naho hariho imodoka zirimo kugenda n'amapoto ku ruhande n'amatara.

Uri ku igare rya siporo ariko hakaba hagaragara nkaho icuramye yambaye umupira w'umweru ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umweru. Mu muhanda wa kaburimbo hakurya hariho ibiti n'undi muhanda uca hejuru uzengurutseho n'ibyuma ku mpande zawo.